Iki ni igihingwa cy'ibigori. Ibi bigori bikaba byera neza cyane, bityo bigatanga ibyo kurya ndetse bigatanga n'amafaranga. Kuko bimwe babigurisha, maze ibindi bikaba ibyo kurya.

Iki ni igihingwa k'ibigori nka kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya ku bagihinga. Abahinzi benshi bamaze kumenya guhinga bya kinyamwuga ku buryo batagihinga ngo bisarure ahubwo basarura ibyo kurya n'amafaranga.